Inyubako rusange ikorerwamo ibikorwa byerekeranye no gutanga serivisi, cyangwa se ubufasha mu bijyanye n'amafunguro, ndetse n'ibinyobwa. By'umwihariko barenzaho na serivisi zijyanye no gutanga amacumbi ku babyifuza.

Haragaragaraho umuntu bita mucoma, wotsa inyama, kandi hagaragaraho igikoresho kigizwe n'utwuma, gikoreshwa igihe bari kotsa inyama, izi nyama ziri mu duti duto duto bita imishito.

Ahantu hakorerwa ibikorwa ngengabukungu bijyanye no guteka ndetse no kotsa ibiribwa bikomoka ku matungo bizwi nk'inyama. Izi nyama zitunze ku duti, bazita imishito.

Ahantu bacururiza inzoga z'amoko agiye atandukanye harimo amarikeri. Hariho ameza, harimo intebe, byose bikaba ari ibikoresho bikoreshwa n'abantu bari kunywa izo nzoga. Kandi hariho akantu kameze nka etajeri, ni ho batereka izo nzoga bari kuziseriva ba bantu bari kuzinywa.

Inyubako zikorerwamo ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi, aho bacururizamo ibintu bitandukanye. Haragaragara kandi amapoto ndetse n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ziri Kuwukwirakwiza, ahantu henshi hatandukanye.

Inzu ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, haragaragara n'akazu gatoya kubatse mu byuma, gakorerwamo n'ikigo kimwe cy'itumanaho gikorera mu Rwanda. Mu idirishya ryako haragaragara umuntu waje gushaka ubufasha, mu byerekeranye n'ikoranabuhanga.

Ibiti, amazu ndetse n'umuhanda w'igitaka, hari kandi n'imodoka zizwi nka dayihastu zikoreshwa n'abantu batwara imizigo irimo umucanga, amabuye ndetse n'iyindi mizigo y'ubundi bwoko.

Inzu ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, ariko haragaragara n'imashini imbere yayo, ikoreshwa igihe barikuvangavanga amasima n'umucanga, iruhande hari igipangu giparitsemo imodoka ebyiri ndetse inyuma y'icyo gipangu haragaragara ibiti.

Inyubako igeretse inshuro imwe, ikorerwamo ibikorwa ngengabukungu bijyanye n'ubucuruzi. Aho hacururizwagamo ibintu bigiye bitandukanye. Imbere hagaragara akantu gasa n'umuhondo kubatse mu byuma, gakorerwamo serivisi zerekeranye n'itumanaho ndetse n'ikoranabuhanga.

Inyubako rusange yakorerwagamo ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi, aho bacururizamo ibijyanye n'amagaze zifashishwa mu guteka, ikindi kandi bacuruza ibikoresho bya muzika nk'amabafule, ikindi kandi bacuruza ibikoresho bya siporo nk'imipira yo gukina, ndetse n'ibindi.

Inyubako zikoreshwa batanga ubufasha ku bijyanye no gutanga aho abantu bayama, ndetse bagaha n'abantu ibiryo bigiye bitandukanye. Imbere hari indabo zituma aha hantu haba heza cyane. Kandi ikindi ngo, ikora amasaha makumyabiri n'ane.

Inzu itangirwamo ubufasha bujyanye n'amabanki, ndetse haragaragara n'imbuga iparikamo imodoka zitwara abantu ku giti cyabo. Hagaragara ipoto icishwaho insinga zikoreshwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ahantu hatandukanye.

Isoko rusange aho abantu bagurishiriza ndetse akaba ari na ho banagurira, umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi by'umwihariko ibiribwa, nk'imbuto zirimo: inanasi, ibihaza, ibishyimbo, ibijumba, imyumbati ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Abantu batatu bagenda n'amaguru, mu muhanda wa kaburimbo, undi muntu w'umuyonzi utwara igare, umumotari utwara moto ndetse n'inzu z'ubucuruzi, kurundi ruhande ndetse hagaragaramo amapoto ndetse n'amatsinga atwara umuriro amashanyarazi.

Ibiti byinshi cyane bigaragara ko bikoze ishyamba, kandi hari n'icyapa gikoreshwa bari kwamamaza ku bikorwa bigiye bitandukanye, haragaragara indabyo zikoreshwa bagamije kurimbisha aha hantu.

Moto iparitse iruhande rw'inzu, abantu bahagaze batatu, umugore ufite umutaka, icyarahani cyangwa se imashini idoda, igipapuro kimanitse imbere y'inzu, gikoreshwa mu kwamamaza, urugi rukoze mu byuma cyangwa se ruzwi nka metarike.

Ni ahantu bacururiza ibintu byo kunywa ndetse n'ibyo kurya. Kandi hagaragaramo umutaka bigaragara ko bacuruza amayinite ya terefone. Ikindi kandi haparitse imodoka itwara umuntu ku giti cye. Hagaragara amatsinga atwara umuriro w'amashanyarazi.

Inzu ikorerwagamo ibikorwa by'ubucuruzi, imodoka itwara imizigo ndetse n'abantu. Umutaka bacururizamo ibiyjanye na serivisi za terefone n'amiyinite, ibitanda biri imbere y'inzu, abantu bararaho ndetse n'inzu iri mu bwoko bwa etage itaruzura neza bigaragara ko bakiyubaka.

Inzu zikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi. Aho bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye. Hagaragaramo umunyonzi uri gutwara igare, aho bigaragara ko atwara imizigo. Kandi hagaragaraho umuhanda wa kaburimbo, bigaragara ko hanyuramo amamodoka, kandi hakanyuramo na none n'amamoto.

Urutonde rw'amazu akorerwamo imirimo itandukanye yo gucuruza, harimo abahacururiza ibijyanye n'amaresitora ubwo ni ibyo kurya muri rusange, ariko kandi hari n'ahandi bigaragara ko baherekanira imikino igiye itandukanye, tugendeye ku bikoresho bihagaragara kandi ikindi, hagaragara ko baranguza n'ibinyobwa n'inzoga.

Insinga, itara, amakaramu amanitse mu nsi y'igisenge, uburoso bukoreshwa mu koza amenyo, ndetse hari n'amacupa arimo ibinyobwa byo kunywa ari mu buryo bw'ibirahuri, aha munsi gatoya hariho impapuro zometse ku gisenge nanone.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi, aho bahacururiza ibintu bijyanye n'ibicanwa harimo amakara, ariko na none bahacururiza ibintu bijyanye n'ibiribwa by'ubwoko butandukanye nk'imineke, si ibyo gusa kandi wahasanga serivisi zerekeranye n'ikoranabuhanga nk'amasimukadi, amayinite, ndetse n'ibindi.

Ahantu hakorerwa ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi, by'umwihariko hacururizwa ibikoresho bikoreshwa mu mikino nk'imipira ikinwa n'abakina umupira w'amaguru, ndetse n'ikoreshwa n'abakinaga imikino y'amaboko.

Amazu y'ubucuruzi, ndetse iyo nzu y'ubucuruzi mu muryangongu harimo harimo umuntu, ndetse no ku wundi muryango wa kabiri hariho umuntu wicaye impande y'urugi, ndetse no mu ruhande rw'iburyo hagaragaramo inzu zo guturamo, ndetse n'imbere y'inzu hariho ibindi ibiti byinshi imbere yaho.

Inzu z'ubucuruzi zigaragaraho abantu babiri, ariko umwe yinjira muri zo nzu z'ubucuruzi, mu gihe undi atambuka yigendera aca imbere y'izo nzu z'ubucuruzi. Izo nzu hagaragaraho igare riparitse imbere y'imwe muri zo, ndetse n'umuhanda wa kaburimbo uciye imbere yazo.

Inyubako ndende igeretse inshuro imwe, ikorerwamo ibikorwa bijyanye no kubitsa no kugurizanya, iruhande haragaragara umuhanda wa kaburimbo, unyuramo ibinyabiziga bitandukanye.

Akayira gakozwe n'amabuye, umuntu uri kukanyuramo, icyapa gikoreshwa bari kwamamaza, nk'indabo ndetse hagaragara ibiti byinshi cyane bigaragara ko ari ishyamba, hagaragara insina zera ibitoki barya.

Inyubako ndende cyane, ipoto ritwara umuriro w'amashanyarazi, ibigega byinshi cyane bibika amazi, abantu bari iruhande rw'ibyo bigega, ibiti ndetse n'umuhanda wa kaburimbo, ucamo ibinyabiziga.

Amazu y'ubucuruzi agaragaraho ibirango byamamaza, ndetse n'imbere yaho hariho indabo, izo ndabo inyuma yaho, inyuma mu gikari cy'inzu usangamo ibiti, ndetse n'iburyo bw'iyo nzu hariho ibiti. Ndetse kuri ibyo birango byamamaza, hariho ibishushanyo by'amacupa, bigaragara ko ari ahantu hakorerwa akabari.

Inzu bacururizamo ibintu bitandukanye imbere yaho hari umuhanda wa kaburimbo, ariko imbere y'inzu ho gatoya hari aho abantu batambuka, hariho n'umuntu uri gutambuka agenda acaho imbere yicururizamo.

Ubwoko bw'inzu bigaragara ko zagenewe gukorerwamo ubucuruzi ,imbere yaho hari umudamu uhahagaze , ndetse kandi hari umuhanda ucamo ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu.

Inzu ikoreshwa nk'ububiko, babikamo ibikoresho byifashishwa bari gukora amagare yo kwifashisha, mu mirimo ya buri munsi. ikorwa n'abantu by'umwihariko gutwara imizigo ndetse n'abantu.

Ahantu bacururiza ibikoresho byo mu rugo, harimo indobo, amabase, imyuko, amasafuriya, udukapu, ibitenge, ndetse n'ibikuvurori, bikoreshwa biyorosa.

Umunyonzi utwaye umugenzi, umuhanda wa kaburimbo uri imbere y'inzu y'ubucuruzi, moto iparitse mu muhanda wa kaburimbo, umuntu urimo usunika igare agana ku nzu y'ubucuruzi, icyapa, ipoto itwara umuriro w'amashanyarazi, imifuka irimo ibicuruzwa bicuruzwa mu iyi nzu y'ubucuruzi.

Hari kugaragara amazu akorerwamo ibikorwa bijyanye no gucuruza, ndetse hagaragara n'imitaka bigaragara ko hakorerwa ubucuruzi bw'amayinite, ikindi kandi hagaragara umuhanda wa kaburimbo ucamo ibinyabiziga bitandukanye nk'amagare, moto, imodoka n'ibindi.

Inzu zikoreshwa mu bikorwa byo gucuruza, umuntu ushinzwe umutekano, abagabo batatu bafite amagare bakoreshaga mu gutwara abantu n'ibintu.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi cyangwa se ibindi bikorwa bitandukanye, aho imbere yaho hari amagare menshi, bigaragara ko ariho bayakorera igihe ha yagize ikibazo. Haragaragaramo n'umuntu bigaragara ko ariwe ukora aya magare, ndetse n'abandi baje kuyakoresha.

Urutonde rw'amazu bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye, by'umwihariko amafu, ariko haragaragaramo n'ibikoresho byo mu rugo imbabura, indobo ndetse n'ibindi, imbere y'aho bacururiza ku mbuga y'iyo nzu hari kugaragara umunzani bakoresha bari gupima, ndetse n'agatabureti uteretseho.

Inyubako zikorerwamo ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye, haragaragara kandi umuhanda wa kijyambere uzwi nka kaburimbo ucamo ibinyabiziga by'amoko atandukanye ndetse n'abantu bagenda n'amaguru yabo.

By'umwihariko haragaragara ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, inzu zitangirwamo ubufasha ku bijyanye na serivisi z'amabanki, nanone kandi haragaragara imbuga iparikwamo ibinyabiziga bitandukanye, nk'imodoka. Ipoto inyuzwaho insinga zo gutwara umuriro w'amashanyarazi.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi. Imbere yaho hari amapine, bigaragara ko ariho bayagurishiriza. Hari kandagirukarabe ikoreshwa abantu bakaraba intoki. Haragaragara iruhande abantu bari ku mutaka, bigaragara ko bahatangira serivisi zijyanye n'itumanaho.

Inyubako zikorerwamo ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi, imbere yaho hahagarara ibinyabiziga biri mu bwoko bwa moto, bikoreshwa batwara abantu ndetse n'ibintu.

Ahantu bacururiza ibikoresho bikoreshwa mu rugo mu buzima bwa buri munsi ari byo amasafuriya, amabase, ibikombe, indobo ndetse n'ibindi, ibyo byose bikaba ari ibikoresho bikenerwa mu buzima bwa muntu by'umwihariko mu rugo.

Amazu akorerwagamo ibikorwa byerekeranye no gucuruza ibicanwa bizwi nka gaze, by'umwihariko ngo ibi bicanwa bigira uruhare rukomeye cyane mu kubungabunga ndetse no kurinda iyangirizwa ry'ibidukikije mu buzima bwa buri munsi.

Urutonde rw'inyubako zikorerwamo ibikorwa bijyanye no gucuruza ibintu bitandukanye. Haragaragara ubwoko bw'ibinyabiziga bitandukanye bikoreshwa mu gutwara ibintu. Amagare ndetse na moto.

Inzu y'ubucuruzi iri imbere y'umuhanda wa kaburimbo, bigaragara ko bacururizamo ibintu bitandukanye harimo umuceri, kawunga, ifarini, ariko nanone hagaragaramo ibintu by'imikino, udupira tw'abana batoya n'ibindi.

Inzu bigaragara ko ikorerwamo ubucuruzi bw'ibyokunywa ndetse n'ibyokurya harimo ibinyobwa nk'amayoga, likeri, ndetse n'ibyo guteka harimo amavuta, n'ibindi byinshi bitandukanye nanone hagaragaramo amaji n'ibindi.

Urutonde rw'amazu menshi cyane, bakoreramo ibikorwa bigiye bitandukanye, ipoto ndetse n'amatsinga bitwara umuriro w'amashanyarazi. Umuntu bigaragara ko agiye gusaba serivisi mu nzu, imwe twavuze bacururizamo.

Ahantu bacururiza ibikoresho bikoreshwa ku magare, harimo ipanga, amapine ndetse n'imisego, yifashishwa nk'intebe abantu bicaraho, by'umwihariko ku magare akoreshwa n'abanyonzi.

Inzu bigaragara ko ikorerwamo ubucuruzi ,ndetse ku gisika cyayo imbere hagaragara urupapuro ruriho amafoto agiye atandukanye, ndetse n'ifoto y'umuntu bigaragara ko barukoresha bari kwamamaza kugira ngo abantu bamenye ibikorwa bakora.

Inzu bacururizamo inzoga zo mu bwoko bwa kizungu, urupapuro ruriho amagambo bigaragaza ko barukoresha bashaka kwamamaza ibyo bakora, hirya hari inzu iririho urugi rukoze mu byuma ndetse n'ibintu by'imbaho bihari.

Akayira gakikijwe n'ibimera bizwi nk'imigano, abagabo babiri bari kunyura muri ako kayira, umwe muri bo yambaye ingofero y'umutuku iriho ibirango bya FPR Inkotanyi, mu gihe undi we nta ngofero yambaye, kandi ku mutwe we nta musatsi uhari.

Ahantu bacururiza ibikoresho byo mu rugo by'umwihariko ibyibo, intara, ibiseke, ndetse n'ibindi. Haragaragaramo abantu baje kubigura ariko nanone haragaragaramo n'abandi bantu babicuruza, harimo abadamu ndetse n'uyu mugabo bigaragara ko we yaje kubigura ahangaha.

Inzu y'ubucuruzi ikoreshwa n'abantu bacuruza ibyo kurya, by'umwihariko indagara n'amafi y'ubundi bwoko. Kandi hariho umuntu watwara igare utwaza abakiriya cyangwa se akazana ibicuruzwa ahangaha, kandi harimo n'umuntu ucuruza muri iyi nzu icuruza ibi biribwa.

Inyubako ndende cyane aho abacuruzi bacururiza ibintu, akaba ari na ho abaguzi baza kubishaka. imbere yaho haragaragara abantu benshi, bakora umurimo wo gutwara abagenzi ndetse n'ibintu, bakoresheje ikinyabiziga kizwi nka moto.

Umurongo w'inzu uri ibumoso, ndetse iburyo haragaragara ahantu, abantu bacururiza umusaruro, w'ibikomoka ku buhinzi, bitera imbaraga, by'umwihariko ibyitwa ibirayi.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye. Hagaragara ibigega byifashishwa mu gufata amazi aturuka ku nzu. Haragaragara ipoto ririho itara ryaka mu masaha ya nijoro.

Urujya n'uruza rw'abantu binjira n'abasohoka mu isoko, abikoreye ndetse n'abatikoreye, abacuruzi ndetse n'inzu bakoreramo, imodoka ziparitse zidakora, amatsinga n'amapoto bitwara umuriro w'amashanyarazi.

Inzu nini bacururizamo ibikomoka ku buhinzi, harimo imineke, amapapayi, wotameroni ndetse n'ibindi, hagaragaramo n'abacuruzi bacuruza ibi bintu ababishaka baza bakabisanga aha ngaha bakabigura.

Isoko rusange rihuza abaguzi, ndetse n'abantu bacuruza, aho hacururizwamo ibikoresho bitandukanye, imyambaro, ndetse n'ibiribwa, kandi haragaragara insinga, ndetse n'amapoto atwara umuriro w'amashanyarazi.

Igikorwa remezo rusange gikoreshwa mu bijyanye n'ubucuruzi bwa buri munsi bukorwa n'abantu bacuruza umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi harimo: imboga, isombe, ibijumba, ibirayi ,umuceri ndetse n'ibindi.

Igikorwaremezo rusange by' umwihariko kizwi nk' isoko, cyihariye mu bijyanye no gucururizwamo imbuto, ndetse n' umusaruro ukomoka ku buhinzi harimo imineke, amacunga, ibinyomoro, ndetse n' ibindi...

Ahantu rusange hakorerwa ubucuruzi by'umwihariko bw'ibikomoka ku buhinzi. Harimo imbuto zitandukanye nka voka, amacunga, ndetse n'imboga ziri mu bwoko bw'inyanya, puwavuro, ndetse n'ibindi

Isoko rigaragara ko bacururizamo imyambaro ndetse haragaragaramo abantu bigaragaza ko baricururizamo. Urebye neza, urabona ibintu bimeze nk'ameza bikoze mu biti bigaragara ko ariho batereka ibintu bacuruza ariyo myenda.

Ahantu hakorerwa ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi, by'umwihariko ibiribwa. Haragaragara ibintu byitwa imbada bakora mu bikomoka ku musaruro w'ingano. Bikunda kugaragara mu bice by'amajyaruguru y'u Rwanda, nko mu karere ka Musanze, Burera, ndetse n'utundi.

Ahantu bacururiza umusaruro w'ibikomoka ku mpu, hariho imikandara, ibikapu, imyambaro igiye itandukanye, n'ibindi. Ibi byose bigira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu, by'umwihariko u Rwanda muri rusange.

Ibikoresho bakoresha mu rugo ariko mu bijyanye no gukora amasuku. Harimo amasabune yo koga ,hakabamo n'amasabune yo gukaraba ,amavuta yo kwisiga y'ubwoko bwose nka movit ndetse n'ay'inka.

Ahantu hakorerwa ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi by'umwihariko ibiribwa, haragaragara amashashi arimo ikirungo gikoreshwa mu rugo mu bijyanye no guteka kizwi nk'urugera cyangwa se umunyu.

Inzu ikorerwamo ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi, aho abantu baturutse impande zitandukanye baza, bakaza kuguramo ibintu birimo inkweto, ndetse n'imyenda. Haragaragaramo abantu batambukamo, bigaragara ko ari abacuruzi bacuruzamo cyangwa se abaguzi baje kuguriramo.

Inzu bacururizamo inzoga zipfundikiye, ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu rugo, nk'amavuta yo kwisiga, amasabune, n'ibindi. Kandi harimo n'ibiribwa, amabiswi, amagi, ndetse n'ibindi. Kandi hagaragaramo intebe zikoze mu biti, zizwi nka sheze, ndetse n'ameza batekarekaho ibintu igihe bari kunywa.

Ahantu rusange hakorerwa ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi by'umwihariko ibikoresho bikoreshwa mu rugo harimo, utumasu twifashishwa batega inyamaswa zitwa imbeba, hagaragaramo n'indiga zifashishwa mu gukata ibintu byo mu rugo nk'ibiribwa ndetse n'ibindi, hagaragaramo ibyo twita amapata yifashishwa bayashyira mu nzugi kugira ngo zifungure.

Ahantu hagurishirizwa ibikoresho bikoreshwa mu rugo, by'umwihariko ibikomoka ku bubumbyi nk'imbabura yifashishwa bateka ,ndetse n'udukono batekeramo.

Igikorwa remezo rusange gikorerwamo ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi kizwi nk'isoko, by'umwihariko gicururizwamo ibikomoka ku buhinzi, harimo ibijumba ibirayi n'imbuto imboga ndetse n'ibindi.

Abagore, abana ndetse n'abagabo bari ahantu bigaragara ko bahacururiza imyenda ,nkuko irambitse hasi. Ndetse aha hantu, abagabo baraza, ndetse n'abagore bashaka imyenda basanga abantu bahacururiza bakagura iyo myenda.

Ahantu hari ibintu bike bitandukanye, hari imashini idoda imyenda, hari amasabune akoreshwa bari gufura, ndetse hari n'amaji, abantu banywa nanone kandi haragaragara amabisukwi abantu barya ateretse ku bintu bikoze mu mbaho bizwi nka atajeri.

Ahantu bacururiza ibikoresho byashaje, ariko harimo umugore bigaragara ko ariwe ubicuruza, haragaragara n'undi mukobwa, wagira ngo aje kumubera umukiriya ngo agure ibyo bintu, hari n'abandi bicaye ku ruhande, bigaragara ko haba hari n'abantu benshi buri munsi.

Goyiko ikorerwamo ibikorwa ngengabukungu. izwi nk'ubucuruzi, aho hagaragaramo ibicuruzwa bifite amoko atandukanye, harimo ibikoreshwa mu ngo, ndetse n'ibindi bikoreshwa mu mirima nk'inyongeramusaruro, ndetse n'ibindi.

Ahantu rusange hakorerwa ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi, aho bacuruza ibiribwa, by'umwihariko hagaragara ibyitwa ibihumyo, ibitunguru ndetse n'amavuta yo guteka, hagaragara n'ibikoresho nk'indobo ndetse n'ibindi.

Inzu ndende cyane ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, hagaragara umuhanda wa kaburimbo abantu banyuramo igihe bashaka kwinjira muri iyo nzu, kandi kuri iyo nzu haragaragara amashusho akoreshwa, mu gihe bashaka kwamamaza ibikorwa runaka.

Inyubako rusange ikorerwamo ibikorwa byerekeranye no gucuruza, aho acururizamo ibicuruzwa bifite amoko atandukanye. Hanze y'iyo nyubako haragaragara ibigega bikoreshwa habikwa amazi. Haragaragara kandi amatara ari ku ipoto, acanwa mu masaha ya nijoro.

Ibikoresho bakoresha mu Rwanda abakora mu bimera bizwi nk'imigano. Ibi ibikoresho babikoresha mu bworozi, mu bw'ibijyanye n'amatungo azwi nk'inkoko.

Isoko ryubakishije ibiti, risakaje amabati, bacururizamo ibikoresho bikoreshwa mu rugo, harimo amabase, ibikombe, ndetse n'ibindi. Hagaragaramo n'abantu bacuruza muri iri soko.

Inyubako ndende cyane, ikoreshwa mu bikorwa by'ubucuruzi, kandi imbere yaho hariho, ahantu baparika ibinyabiziga nk'imodoka ndetse n'ibindi. kandi hariho n'aho abantu baca imbere y'iyo nzu hariho umuhanda wa kaburimbo ibinyabiziga n'abantu baca.